Ihumbikiro cyangwa se irerero ry'ibihingwa hagaragara cyane cyane igihingwa cya kawa kimwe mu bihingwa bihingwa cyane inaha iwacu mu Rwanda bitanga amafaranga ku baturage cyangwa se ibyo bita ibihingwa ngandurarugo.

Ibihingwa ngandurarugo turabona igihingwa cya kawa. Muri uwo murima wa kawa harimo abagabo batatu. Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara hejuru. Hanyuma uwa gatatu we yambaye ingofero, yambaye n'ishati yenda kuba umweru.

inzu y'imitimatongo; harimo imiti igiye itandukanye, inyuma hakaba itara bacana nijoro kugira ngo babashe kubona imiti byoroshye, imbere cyane hagaragara igikoresho cyifashishwa mu gupima ubushyuhe bw'amatungo kizwi nka terimometa.

Ubworozi bugezweho bukorerwa mu biraro, muri ibyo biraro harimo inka nyinshi cyane ziganjemo iz'imikara, ibihogo ndetse n'ikibamba, zose ziri kurya ubwatsi bazahiriye aho mu biraro aho kujya kurisha mu gasozi.

Abasore babiri bafite amasuka ku ntugu zabo bagenda mu kayira gato mu gace ubonako gakorerwamo ibijyanye n'ubuhinzi, na bo bakaba bavuye cyangwa se bagiye gukora imirimo ijyanye n'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'ibiribwa igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri ,muri icyo gishanga harimo abantu batari benshi cyane baba bari kwita kuri icyo gihingwa. Hakurya y'icyo gishanga hari ishyamba rinini ry'inzitane.

Igiti cyera imbuto z'amacunga, icyo giti gifite imbuto ariko biragaragara ko izo mbuto zitarera neza, izi mbuto rero z'amacunga zikungahaye ku ntungamubiri za vitamini C zifasha umubiri kwirinda indwara cyane cyane izijyanye n'uruhu.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, turabona ubwoko bw'imboga butandukanye harimo amakaroti, amashu, beterave ndetse n'izo twita shofureri, ubwoko bwose bw'imboga bwajyanwe mu isoko ndetse hari na bimwe bigiye biriho ibiciro byabyo.

Umurima mugari uhinzemo ibigori, hagati muri uyu murima hari uburyo bugezweho bwo kubivomerera kugira ngo bikure neza, harimo n'abandi bantu kandi hagati baba babikurikirana kugira ngo bigende neza, hakurya y'uyu murima hahinze urutoki.

Umusore muto wambaye ishati yenda kuba umweru, ipantaro y'umukara afite rozwari mu ntoki ze arimo arakoresha ajya kuzana amazi akayazana hano hafi y'ibi bihingwa akabivomerera, inyuma ye hari igiti kinini k'inganzamarumbo, munsi y'icyo giti hari abantu bicayemo n'abandi bahagazemo bacyugamyemo izuba.

Ivomerera, umurima munini w'ibigori urimo uburyo bugezweho bwo kubivomerera, bisa n'aho mu murima hagati harimo umugabo wambaye ingofero n'umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari gukurikirana uburyo iryo vomerera rigezweho riri gukorwamo.

Gutera imbuto, abagabo babiri bari gupakira imbuto y'ibirayi mu mufuka kugirango babijyane kubitera, ibirayi babitera munsi y'ubutaka bikazamuka hejuru, ariko n'ubundi kwera kwabyo byera munsi y'ubutaka kuko bisarurwa mu butaka.

Inyamaswa z'agasozi zitandukanye, muri zo harimo inzovu, intare, ingwe ndetse n'izindi, izo zose ni ingenzi cyane, kuko zikurura abakerarugendo bakaza kuzisura ngo bazirebe.